Ibitaro ni byiza cyane bituma abarwayi badapfira mu rugo iwabo, ibitaro mbese ni byiza cyane muri rusange, kuko ubona abaturage ntabwo bajya kure iyo ibitaro biri hafi. Ntabwo birirwa bajya kure, kuko ibitaro ni byiza cyane ku muntu wese, kuko buri wese nta muntu utarwara.

Ubucuruzi bw'imiti buba ari bwiza cyane, nko mu mafarumasi. Bituma abaturage bose babona imiti hafi, abaturage batuye impande ya farumasi babonera imiti hafi. Nta bwo barinda kuremba mbese biba ari byiza cyane biraborohereza.

Ubuhinzi bw'ibitunguru buba ari bwiza cyane kuko ibitunguru babyifashisha mu guteka. Ibitunguru byiza nyine urabona nk'iyo umuntu ari gukaranga, ntiyakaranga nta bitunguru, cyangwa se n'ubundi bwoko bw'ibihingwa buba ari byiza cyane. Kuko bwinjiriza abantu babihinga, kandi abantu babigura bikabagirira akamaro, kuko babishaka cyane.

Imiti gakondo z'ibyats ziba ari nziza cyane kuko zorohereza abantu badafite amafaranga yo kujya kugura imiti ya kizungu, nk'ibinini cyangwa se inshinge biba bigoye cyane ariko imiti gakondo oyo uzi ko ivura iyi ndwara imeze gucya, ibyiza cane nyine bitumatagira ikibazo cyanean bikakorohereza

Iba ari myiza cyane, zivura abantu batari bamenya aho farumasi zikorera cyangwasi aho ibitaro bikorera. Imiti gakondo bazifashisha mu kuyivura kuko ziba ziri hafi zituma nyine umuntu yajya kwamuganga cyangwa se ku bitaro yabanje kwivuza, imiti iba yebegereye abantu benshi

Imiti gakondo iba ari myiza cyane, kuko nkiyo kugera nk'ibitaro biri kure cyane, cyangwa amafarumasi arikure cyane, imiti gakondo iba ari myiza cyane, kuko ifasha abantu, nkiyo kugera ku bitaro ari kure cyane, nyine irabafasha kandi nan none.

Imiti gakondo nk'ibibirizi, imiharavumba, ivura abantu nayo ni myiza cyane, gusa iyo uyikoresheje nabi nawe utayizi neza ishobora no kukwica, ariko imiharavumba turayikunda, nkiyo wenda kwa muganga wenda hari akabazo imiti itari kuboneka neza, haba igihe ufashe umuravumba n'umubirizi ukabivuguta ubundi nawe ukivura.

Ubuvuzi gakondo buba ari bwiza, kuko kera habaga hariho abahanga, habagaho abahanga na n'ubu abahanga baracyariho ariko kera habaga hariho abahanga, habaga hariho abahanga benshi baba bazi imiti ya gakondo, ugasanga umuntu bamuvugutiye uwo umuti uramuvuye agahita akira ako kanya.

Imiti gakondo iba ari myiza cyane . Nk'amatovu aba ari meza cyane ,avura indwara zimwe na zimwe ku matungo: nk'ihene n'abantu bamwe na bamwe bafashisha ubuvuzi bwa gakondo bwa gihanga. Imiti gakondo iba ari myiza cyane, kuko nta ngaruka.

Ibihingwa gakondo, bikoreshwa nk'umutu, umuti banywa bagakira, indwara zose baba barwaye , kera indwara babaga barwaye zose, umuti gakondo ziba ziyivura nyine, ubuzima bwabantu bukagenda neza cyane.

Imiti gakondo iba ari mwiza cyane, cyane cyane nkibitenetene, byifashishwa mu kuvura abana bavutse ku'mukondo nyine k'umukondo wabo, irabavura Kandi barayifashisha, nkiyo barwaye nk'imisonga, kujya kwa muganga biba bikomeye cyane, ahubwo ujya mumiti gakondo nawe ukayihamurira, ibintu bigacamo neza.

Imiti gakondo iba ari myiza cyane kuko yorohereza abantu mu rugendo. Ivura amatungo y'abantu, n'abantu muri rusange imiti gakondo irabavura. Imiti gakondo mbese igira akamaro kenshi ku bantu baba bari kure y'ibitaro, biba ari byiza cyane biraborohereza.

Inteja cyangwa ibindi byatsi, bivamo imiti. Imiti gakondo bakoreshaga. Kandi ubundi iriya miti dukoresha iba yavuye mu byatsi, iba yavuye mu bimera, iba ari myiza cyane kuko ntabwo ihenda, kandi ntabwo igira ingaruka nyinshi cyane ku mubiri

Imiti gakondo iba ari myiza cyane, igirira akamaro abantu baba batuye kure n'ibitaro, kandi nyine bituma nyine bivura n'ibikomere, nk'uwageze igisebe ushiraho inyabasanya ikakivura kigahita cyuma vuba mu gihe kwa muganga ari kure.

Ibishimbo bikimera biba ari byiza cyane ni uko rimwe na rimwe bihura n'uburwayi, abantu bagatera imiti kugira ngo ibishyimbo byabo bizere neza, kugira ngo bitazapfa cyane, bagatera umuti kuko haba igihe bihuye n'utwonyi tukabirya. Ni yo impamvu abantu batera imiti.